Iyo ikinyabiziga cyawe gihiye nta bwishingizi ufite ubura aho ubariza, ukaba nka za ngata zimena rwose. Tujye tugerageza tumenye ibintu hakiri kare ntukajyemo ari uko bigiye kurangira rero barabutanga yaba inzu, byaba umuryango byose uragenda ukababwira.

Ubwishingizi ni ingenzi nk'uko bahora babidushishikariza kandi biradufasha cyane nk'uko uyu musaza yicaye, arishimye arimo araseka, hano handitse ngo no mu gihe k'izabukuru turahagoboka, iyo wayatanze rero ugomba kuyarya nyine.

Ubwishingizi ni ingenzi aho bugoboka buri muntu wese abana banyu ,abagore ndetse n'abagabo mugomba kuyifata, noneho ibinyabiziga amazu iyo byangiritse bahita babigura ni ugukozaho rwose ahubwo nawe waracikanwe.

Kuri ubu bwishingizi bugezweho ni ubw'ibihingwa nibwo bwahawe urufatira urugero, nk'uko muri iki kirango kibigaragaza hariho umuceri ku bantu batari bawuzi nonehokore rero n'andi magambo hanyuma wa abisobanura neza ukuntu nikongogerageza rero nawe we kugwa mo hasi.

Tujye tugerageza tubashe kuba twafatira ubwishingizi ibinyabiziga, amazu, imiryango yacu kubera ko iyo ibyago bije bidateguza, niyo mpamvu tugomba kwicara tubufite, uzabaze bafite imodoka zangiritse ukuntu byagenze.

Ubwishingizi ni ingenzi nkuko uyu musore akikiye umudamu we, bicaye mu kantu gashushanyije nkaho ari inzu, ariko ibi ni ibigaragara ko nayo igomba kuyishyiramo ndetse ishobora gushya bagahita bakugoboka, bakakubakira inshyashya.

Ubwishingizi dufata bubasha kuba bwatuvuza mu bitaro runaka aho biri hose tukishyura makeya nk'uko bisanzwe, rero ni umusore yari yavunitse barimo baramuzirika nyine kugira ngo abashe kujya agenda neza agatera isekuru.

Biroroshye cyane gufata he ubwishingizi ku kintu runaka uko bigaragara uyu umuntu ateruye inzu yiwe bisa naho rero iramutse iguye bahita bamwubakiri indi nshyashya rwose n'ibiririmo bakabimugurira.

Iyo ufite ubwishingizi uba umeze nka wa musozi bajya bavuga mwiza wa siyoni utabasha kunyeganyezwa. Rero nawe uratekanye humura igihe uwurimo kubera ko inzu yawe nishya, imodoka yawe ikangirika, ikagonga umuntu bari bukugoboke bihuse.

Nkuko bahora badushishikariza ko twafata ubwishingizi ni byiza cyane, rero ushobora kubufata mu bintu bitandukanye. Hari kuba bwakwishyurira kujya wifuza, kuba wagenda ukajya inzu zawe ukazishinganisha, imodoka ndetse n'ibindi.

Tugerageza dufata ubwishingizi tufatire buri kimwe cyose dukorakora ko ntawe umenya aho ugerarageze cyangwa zikiri umubeho ariko bano iyo bije bitaguteguje barakugoboka inyuma ye hari imbuto rero duke' ikirango zitandukanye zirimo imyembe n'imineke ndetse n'amagambo aharitse ni iyihe mpamvu bahitamo turarambana pritanm.

Tugerageze gufata ubwishinginzi hakiri kare kubera ko biragaragara ko iyo duhombye tutabasha kwigobotora ibyo byago twahuye nabyo cyangwa se iyo tugonze umuntu bahita bamuvuza ikindi kirango rero kibyamamaza kiriho icyuma gishinze mutwatsi dusa neza n'ikirere ubona ko kirimo ubururu n'agacu.

Amapurikasiyo baye menshi yagiye adufasha ibintu bitandukanye mu kwishyira amazi n'imiriro, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye nk'uko hano bigaragara, hariho amafaranga yari amaze kwishyura, ayo yohereje ndetse n'ayo asigaranyeho, tugerageze rero tumenye inzira y'ikoranabuhanga ukuntu iri gukora.

Tugerageze tujye twishyura dukoresheje ikoranabuhanga kuko ni byiza cyane n'amabanki yarabyoroheje, aho dusanga dufitemo application abitworohereza kugira ngo tube twagura umuriro, amazi ndetse tunoherereze imiryango n'abavandimwe hanze.

Apurikasiyo z'amabanki runaka ni nziza cyane ko zirafasha, zituma tumenya ibintu bijyanye na konti zacu cyangwa tugacungiraho amakuru atandukanye, rero tujye tugerageza tubikore twubahirizwe igihe tujyanye na cyo.

Kugerageze tumenye ikoranabuhanga rigeze aho amabanki amwe namwe yagiye adushyiraho ibijyanye n'ikoranabuhanga runaka kugira ngo tujye tubasha kuba twareba ibintu bikorerwa kuri konti zacu tukaheza amafaranga twishyura umuriro nkukouko kino kirango kiri kubyerekana mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru hariho ibyo ayishyuye n'ibyo asigaranye.

Banki zimwe na zimwe zagiye zidushyiriraho uburyo bwo kuba twakoresha amapurikasiyoyazo tukajya duhanahanabana amafaranga cyangwa se tukagura amayinite kugira ngo tujye duhamagara mu ntara cyangwa mu bindi bihugu, rero ibi nabyo nibyo biri kwerekanwa kuri iki kirango.

Amakanzu meza cyane y'abagore, amwe asa umutuku, umukara ndetse n'umweru wayasangamo imbere ibindi biroho udupantaro, udupira n'inyuma yaho hari ibindi ushobora kuza rero ukigurira cyangwa se ugatangiza iki gikorwa ukajya wambika abantu kubera ko byaguhira ugacuruza.

Hari ahantu ushobora kujya guhahira imyenda myiza y'abana kandi bigasa neza. Imipira y'umuhondo, umutuku, umweru, umukara, ndetse n'amakabutura n'amapantaro bakajya bayijyana no ku ishuri nka hano bigaragara. Tugerageze rero tumenye ibyo bakeneye.

Hari ahantu heza tuba duciye gusohokanira abakunzi bacu cyangwa se tukabagurirayo ibintu nkuko, bano basore babiri bicaye bari kuganira ibirahuri impande yabo, aha intebe nziza cyane zisa imikara, amatara akeye n'ahantu hamanitse ututi nyine cyangwa se utwatsi dutuma ahantu hasa neza.

Hari ahantu cyangwa se hari aba mama babariyeyemeje gushinga iduka ritanga imyenda runakabona gihe yaranguyeye ibintu ukibaza niba ariwe ubyihitiranmo cyangwa se wabimuhitiramo reba nki'iyi myenda ukuntusa amabara atandukanye amappanana ubu se niba he badashobora kuza kumugurira koko.

Tuba tugomba kumenya aho tugurira ibintu twambara tukaberwa nk'uko kano kabera mushiki wanjye cyangwa se mama wanjye, inyuma hari inkweto nziza cyane zikeye ashobora kuba yajyana ahantu runaka bakaba batamunyuzamo ijisho.

Hari utuntu tuba dusa neza ukaba wadushyira mu nzu iwawe bakagushima nk'uko bigaragara, rero turi mu mabara atandukanye, hari umuhondo, umukara n'umweru turavanze, abatuboha rero nabo urabona ko ari abantu bashiritse ubute bakavuga ngo reka twihangire imirimo.

Umukobwa barimo baramwereka imyambaro itandukanye irimo amashati y'umuhondo, umukara ndetse n'umutuku, hasi hari iyindi n'imipira hirya hari abagabo bari kuganira, n'ibiti bihari bona ko ari ibintu bisa neza cyane.

Hari imyenda myiza cyane igezweho ibereye urubyiruko rw'iki gihe. Udupira twiza tw'umukara tugiye turimo uturango tw'umweru n'indi iri inyuma igizwe n'utubara dutandukanye turimo umuhondo, icyatsi n'umweru.

Hari amaduka meza cyane tugenda twaka ibintu bitandukanye birimo imyenda y'amapantaro, inkweto, amakabutura n'iy'imbere turenzaho rero hano birahari hari iy'abana riya bana nk'uko bigaragara ubwo n'abantu bakuru baza rero bagashakira.

Umwari mwiza cyane iyo ufite inzobe yambaye agapira keza cyangwa se umumama umwite uko ushaka, inyuma ye hari ibintu bijyanye n'imiti nkurikije uko mbibona arimo arahereza undi mubyeyi wambaye imiringa ku matwi, imisatsi yarayiboshye rwose.

Gucuruza ukoresheje ikoranabuhanga n'ibyiza cyane kubera ko biragufasha, hano rero hari ibikapu mubikamo imyenda biri mu mabara atandukanye, umutuku, umukara, ndetse n'umweru, hirya hari n'inkweto ushobora kw'iyambarira ugasa neza, nawe ukaba umuntu w'agaciro.

Umwari wambaye ishati y'ubururu, imisatsi irafunze, yegeranye n'umusaza wambaye ingofero zimwe za kera bajyanaga gusaba ndetse yarengejeho ak'umuhondo na we. Arimo aramwereka ukuntu baba bakoresha ikoranabuhanga, bigaragara ko ari hano mu iduka cyangwa se ahantu bacuruza ibintu bitandukanye nawe waza ukaguriramo.

Abantu bishingiye imirimo yo kuyacuza imyenda kandi ibahira bigenda neza na rumwe udupira tw'umweruru ndetse n'ubururu kandi n'amashakoshi imitako y'impunzi ni ibintu bishobora kubera umutegarugori wese abyinjiranye ahantu agiye gushakirwa.

Imodoka ntoya, toyota yo mu bwoko bwa payasi ibasha kuba yagurishwa miliyoni zigera ku munani cyangwa se icyenda, biterwa n'ubushobozi cyangwa se umwaka yakozwemo, iyi ngiyi irasa umukara, amatara yayo urabona ko asa n'ayijimye ukuntu, rero wayigurira nawe kuri aya mafaranga mvuze ubaye ayafite cyangwa se ku yandi makuru ukaza kubaza bano bantu, byanditse kuri iki kirango nyine Kigali karizi maketi.

Tujye tugerageza niba dushaka kugura imodoka tumenye n'aho tubariza, nkuko hano hakeye rero, ibi biro birimo ibara ry'umutuku, umweru, umuntu urimo imbere ukwakira n'undi na we uje kumubaza ukuntu bimeze n'ibisabwa kugira ngo azigurire imodoka cyangwag se ikinyabiziga.

Hari ahantu heza cyane, nk'uko bigaragara hateye uduti, hariho ikirango kiri mu ibara ry' umuhondo ndetse n'umukara. Amagambo yandikishijwe mu ibara ry'umweru ahagana ku mutwe ndetse ushobora kuhinjira nkurikije ukuntu mpabona. Ni hamwe haba hari bya bimashini bihinga nyine cyangwa se bisiza ibibanza.

Ahangaha rero bacuruza imodoka nk'uko bigaragara zirimo nyinshi cyane ibyatsi biteye imbuto eshanu'umujara w'amashanyarazi ibirango byerekana ikigo kizikora ndetse hari n'ibirahuri zireberamo ukabona ikintu bisa neza.

Avuga ko imodoka itunga umuntu ufite amafaranga kubera ko ntago wajya ubona ibintu uyitangaho bya buri kwezi cyangwa se buri mwaka koko iyipfuye hari igihe isaba amafaranga menshi iyi rero ni yundayi sonata miliyoni zawe icyenda wahita uyibona inyuma hari n'izindi nyinshi zitandukanye z'imikara n'imyeru.

Abapapa babiri, umwe yambaye imyenda yajyanishije, ateruye ikirango cyanditseho Akagera ndetse undi afite agakapu k' umutuku, inyuma hari imodoka nyinshi ziri mu nzu yubakishije amabuye, cyane cyane n'udutara turimo imbere twaka neza.

Tugerageze tugure ibinyabiziga niba dufite amafaranga kubera ko byajya bitugoboka ntitugende n'amaguru, cyane ko hari n'abanebwe batabasha kugenda kuba bakora urugendo runini. Hano rero hari n'abagabo babiri umwe afashe ikirango n'undi afite agakapu k'umutuku, inyuma hari izindi ebyiri ndetse n'umunara muremure.

Imodoka idufasha kuba twakora urugendo runini cyane aho amaguru nyine atahagenda waba unabigerageje ni iminsi nk'itanu, ariko yo irakwihutisha cyane ku buryo nushobora kuva hano ukajya i Rusizi kandi ukarara ugarutse rero ni byiza ko tugomba kuzitunga ariko dufite amafaranga yo dutanga ku byo zikenera.

Tuge tugerageza tumenye ibinyabiziga dukeneye, ndetse iyi bayita ehowo. Ikunda gutwara imicanga myinshi, amabuye, amatafari ndetse n'ibindi bitandukanye, wayifashisha rero mu gihe uri gukora ibikorwa by'ubwubatsi.

Umubyeyi arishimye cyane afite agakapu k'umutuku ndetse ari kumwe n'undi mugabo ateruye ikirango, nyuma yaba hari imodoka ubona ko bishimiye kuba bayiguze cyangwa se bayicuruje bitewe n'icyo bari baje kuhakora bombi.

Imodoka ni ibintu byungura cyane bigatunga abantu kuko aba afiteho inyungu y'amafaranga ari hagati y'amadorari magana atanu n'igihumbi cyangwa se kugera kuri bibiri kuzamura biterwa hano rero n'izo bacuruza wazana ukayigura ifite amafaranga cyangwa se ugatangiza umushinga wo kuzicuruza.

Imodoka nziza cyane yo mu bwoko bwa taxson yundayi nziza ishobora kugurwa amafaranga makeya nawe ukajya uyigendamo ukaba nk'umusirimu nyine aho ugeze nawe akavuga ngo warakoze kandi amafaranga yawe uzi kuyafata neza.

Hari igihe kijya kigera amabanki a akabasha kuba yakwimura amafaranga akayavana hamwe ayajyana ahandi. Hano rero ni abacunga umutekano wazo cyangwag se wayo, bakaba bikoreye kiriya gisanduka arihari kuyashyira mu kinyabiziga kugira ngo kiyajyane ku zindi.

Amafaranga giye ata agaciro amatoya igihe rero ni icya makumyabiri aho mbere wasanga wakigura umunyu, ikibiriti ariko kuri ubu rwose habe n'umuntu wakikugarurira n'amazi ntago wayabona ni ibintu rero ni kukikwereka uko bigenda bihinduka gake gake.

Amata ni meza cyane kubera ko afasha umwana gukura neza, ashobora kujya ku ishuri ayanyweye akumva arizihiwe nk'uko tubizi twese, rero ushobora kumugurira nka keke, irindazi, umugati, akabirisha na byo ibintu bigatuma agenda neza, ugasanga ejo bundi atemba itoto.

Abana babiri cyangwa se ubite ibibondo bitewe n'ibyo shaka, bafite keke amasahane ateretse ku meza n'utubido, undi mugabo wambaye umupira w'umweru arimo arababaza ibindi bintu bari bukenere kugira ngo babashe guhaga. Hakurya harundi musore wambaye imyenda y'icyatsi.

Inka iri hakurya ahantu mu murima ubona ko uhinze munsi y'igiti ndetse bigaragare ko hano ariho ibice bibiri, ikiriho umwana si umwe gusa ni babiri bari baje kuba bagura amata bari kubasukira bakoresheje indobo y'umutuku.

Umwari wambaye agapira k'umukara ndetse umusatsi we ni umwe karemano, wa wundi bataboshyemo ibintu bitandukanye, ibikombe ni bine ariko kimwe ntabwo kiruzuramo amata, hirya gatoya hari ijage iriho n'umuvuniko w'ijerekani, arimo arasukisha.

Icyayi ni ingenzi n'igikoma kubera ko tugifata mu gitondo tukumva tumeze neza, akarusho noneho iyo urengejeho agacapati n'agakeke, akarindazi, bibba bisa ukundi. Rero hasi hari amasahane nkuko bigaragara, indobo bashyiramo imyanda bakoresheje ndetse n'intebe zo kwicaraho.

Umwari uri guseka neza wambaye ingofero, umupira w'umutuku, yajyanishije na mugenzi we uri hirya, undi nawe bari kumwe yambaye uw'umukara, bafite amata, ubona ko babyibuhishijwe nayo, ariko uwo ku ruhande we, tugerageza tumwiteho tujye tumugaburira ibindi bintu bitandukanye, kugira ngo abe yamenya agaciro ke.

Inzu nziza cyane iteye amarangi y'ubururu hejuru hamanitse amakarito y'amata ndetse hasi harimo amazi yaba ay'inyange na nili, fata, amandazi na capati, biri ku meza, ibyo rero ni ibintu ushobora gufata mu gitondo ukumva ufite imbaraga.

Amandazi ni meza cyane ndetse araryoha kubera ko a mu gitondo tugenda tuyarengeje ku cyayi, amata ikivuguto, cyangwa se igikoma biterwa n'ibyo ushaka, rero akorwa hifashishijwe ifarini, isukari, amagi, amavuta n'ibindi.

Ahantu hacuruza amata ni heza cyane harakeye hariho ibirango nk'uko bigaragara, intebe z'ubururu ndetse n'ameza y'umweru, imitaka itwikira abantu kugira ngo izuba ritabica, indobo iri ku muryango ukarabiramo kugira ngo utiyanduza mu ntoki.

Umukobwa wambaye agapira k'umweru n'agakabutura inkweto nziza, arimo arishyura akoresheje ikoranabuhanga bitewe n'uko hariya uri kuhabona nimero zometse ku gikuta, naho twagaruka hano imbere hari undi musore ijagi irimo ubusa ndetse n'ikindi kintu kirimo amazi nkurikije uko mbibona.

M,uburyo bushya bwoka twakwi twishi ikoranabuhanga ni byiza cyane kuba buradutabara igihe runaka umuntu ari hanze cyangwa se ari mu ntara yindi ishobora kuba twamwaheje amafaranga akamugeraho nta kibazo kibayemo.

Bagenda batwigisha ukuntu twajya dukoresha ikoranabuhanga umunsi ku wundi ndetse n'uyu musore yicaye ahantu yegamye kuri terefone ibintu byoroshye cyane, aho ushobora kwishyura amazi n'umuriro ndetse ukagura ukanagurisha ibintu.

Kwishyura twifashishije ikoranabuhanga ubu ngubu nibyo bigezweho, tukaba twakohereza umuntu amafaranga ari mu mahanga ari hehe hose akamugeraho nta kibazo ashobora kuba yayabikuza akayarya cyangwa se agahahamo imyenda, ibiryo n'ibindi bitandukanye.

Ibintu byaroroshye usigaye dufunguza konti twibereye mu rugo, tukishyura ibintu tutahavuye tukanabitumiza rero nkuko hari ama apurikasiyo abifashamo, iyi ni telefone irimo akantu bita peyipari ushobora koherereza umuntu amafaranga mu mahanga.

Kwishyura twifashishije ikoranabuhanga ni byizayiza cyane kuko biradutabara, urugero niba ushaka nko kugura ikintu runaka kuri murandasi ujyaho wagishima ukacyishyura kigahita kikugeraho nk'inkweto, imyenda, amasahane ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye nkuko hano bari kubitugaragariza.

Ibi ibintu byaroroshye, ntabwo ukigendanda amafaranga mu ikofi cyangwa se ahantu runaka, usigaye uyohereza ukoresheje ikoranabuhanga, nkuko tubizi, ibintu biri kugenda bitera imbere gake gake, rero hano, aba bari kubigushishikariza kuba wayoboka igihe kigezweho.

Tugerageze tujye tumenya igihe amashuri azatangirira, tubasha no kubika amafaranga, nk'uko hano bari kubidushishikariza, ku ifoto iriho umwana, wambaye neza cyane, waziritse akantu mu mutwe, imisatsi yayifungiye hejuru.

Tugerageze tumenye kujyana n'igihe kubera ko ikoranabuhanga ryakemuye ibintu byinshi cyane bitandukanye, aho dushobora kuba twahamagaza ibintu twibereye mu rugo tukahita tubyishyura bidasabye kuba tuyafite mu ntoki cyangwa se ngo tujye kuyabikuza.

Ubu ibintu byaroshe ushobora kuba wakohereza amafaranga mu bindi bihugu bitakugoye cyane nka mbere, rero wowe icyo upfa ni ukuba uzi gukoresha ikoranabuhanga gusa, nta kindi ubundi ugahitamo uwo ugiye kuyaha hanyuma yamugeraho akakubwira.

Inyemeza bwishyu ni ingenzi cyane, waba ubucuruza, waba ukora imirimo itandukanye, gerageza uyaka hakiri kare, kubera ko iradufasha iyo uyitanze aba ari umusoro, ariwo uzubaka igihugu, amashuri, ibitaro, ndetse n'ibindi byinshi.

Umusore ubona ko abyibushye rwose cyangwa umupapa arimo ahindura ibiciro by'amafaranga kubera ko ajya abihindura umunsi ku munsi, kuri ibi birango by'amabara atandukanye haba hariho ibihugu u Rwanda Amerika Kenya n'ahandi.

Amafaranga aradutunga ntabwo tuyatunga, abasha kuba yatugurira imyenda, akishyura, aho tuba, amazi, umuriro, ndetse tukavuza abana, tukishyura ibitaro, n'ibindi bitandukanye, tugerageze tujye tuyafata neza tutayapfusha ubusa igihe tuyabonye.

Amafaranga ni meza cyane kubera ko atuma tubona inshuti umunsi ku munsi tugahura n'abakire bagenzi bacu. Ariko nanone iyo ntayo ufite baguta inyuma nk'igikapu, ugasanga ibintu bibaye ibibazo, rero tugerageze tuyakorere tumenye n'uburyo tugomba kuyabikamo nabo tubana na bo tubamenye hakiri kare.

Amafaranga ni meza kuko kuko atuma turya, tukambara neza cyane, tugacya tukagaragara nk'abandi reroro mbere byaragoranaga kuba twayabara ugasanga bitwaye umwanya munini ariko ubu ngubu haje ibyuma bidufasha ku buryo mu isagonda rimwe shobora kuba arangiye.

Buri gihugu kigira amafaranga yacyo u Rwanda narwo rufite ayarwo, rero ano ngaya n'ayo mu Bushinwa bayita amayuwani, ubu ni ijana ubaye uyafite wagenda ukayavunjisha bakaguha ayo ushaka cyangwa se ukajyayo ukayakoresha.

Amafaranga ni meza kuko aduhuza n'inshuti, ariko iyo ashize zihita zigenda niko isi imeze, rero tugerageze tumenye abo tubana nabo kandi tunamenye uko tubatwara, ni byiza ko twajya twitondera ibi biradufasha, kugura imyenda, inkweto, ibyo guteka, tukavuza abana bacu n'ibindi byinshi bitandukanye.

Amafaranga ni meza kuko aradutunga tukabasha kuba twakwishyuraho aho tuba amazi, umuriro ibyo twambara n'ibindi bitandukanye, nkuko bizwi n'abantu bose utayafite rero ntacyo waba uricyo kubera ko n'ubundi nta nshuti wabona nta hantu wajya ngo uvuge byumvikana.

Amafaranga ahora agenda akagaruka ntabwo wayatunga ngo uyamarane igihe, kubera ko ukenera kurya cyangwa se ngo wambare wiyishyure aho uba, mbese ubuzima bwawe bwa buri munsi burayakenera, rero hano yari afite ayo mashiwa ari gutanga Amadorari.

Amafaranga aradutunga ntabwo tuyatunga kuko ku utayafite ntago warya, ntiwakwishyura vuba gusa ni mabi aguteranya n'inshuti wenda waba warahoze wibereye mu kazi ngo warabanje nyuma yo kuyabona. Ariko nta kundi byagenda ni yo si dutuyemo. Aya rero ntabwo ari umunyarwanda ushobora kugenda akayakuvunjira agafata ayo mu gihugu ubamo.

Amafaranga ni meza cyane kubera ko atuma duhaha tukarya tukabaho neza, gusa ni mabi nanone kubera ko ntabwo azana ibyishimo, ahubwo ateza ibibazo mu miryango runaka, kubera iyo ubaye uhuze ho gatoya, bahita bavuga ngo warayabonye ntukibavugisha, ngo ntukibitaho cyane ko tutibagiwe ko asenya n'ingo.

Kuvunjisha amafaranga bigenda byiyongera umunsi ku munsi nayo azamuka, hariho amagande, amanyakenya, amapawundi, amayero ndetse n'amadorari, ubwo uhita uvunja mu mafaranga y'igihugu cyawe ukareba uko ahagaze.

Tujye tugerageza amafaranga tuyafate neza twere kuyasesagura, musore nawe ugomba kuyabika ntukajye uyatakaza ,mu bagore cyangwa se abakobwa kubera ko ntabwo ari byiza bituma utiyubaka, aya rero ni ayo muri Tanzania mu gihugu cy'abaturanyi ubaye uyafite wagenda ukayavunjisha bakaguha amanyarwanda.

Amafaranga ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi kubera ko turayakenera ndetse turahaha, tukambara inkweto, tukagura imyenda, tutwishyura aho tuba, amazi, umuriro, n'ibindi urumva adahari ntabwo twabaho nk'uko bizwi ariko nanone ni ku bantu baba mu murwa nk'umuhinzi we ntabwo ibyo yabyumva.

Amafaranga aradutabara, atuma tubona inshuti mu buryo bwihuse. Hano rero hari imishandika myinshi igiye iziritse. Ubwo rero ubaye uyafite wagana aho bayavunjishiriza bakaguhereza ay'igihugu urimo cyangwa se ugiye kujyamo, ni ibintu byoroshye.

Tudafite amafaranga ntabwo twabaho turabizi neza kubera ko nubungubu ibikoresho dutunze byose niyo yabiguze, kandi dukenera n'ibindi bitandukanye mu buzima bwacu bwa buri munsi tujye tuyafata neza rero, ubaye ufite amanyamahanga, wahita ugenda bakayakuvunjira nk'uko bisanzwe.

Kera byaragoranaga kuba tutabasha kubara amafaranga dufite ariko ubu ngubu haje ibyuma bidufasha kubikora vuba kandi byihuse, kubera ko ikoranabuhanga ryaraje umusore rero arimo arayakiramo ndetse kugira ngo ayihutishe akazi ke.

Aho kubunjishiriza ho hara hari ahubwo nuko nta mafaranga tuba dufite amadolari amatanzaniya, abanyakenya n'andi .Rero hari ibirango by'ubururu, umuhondo, umukara ndetse n'umutuku. Intebe zimbitse utwenda twiza cyane, hakurya hari imodoka ndetse hari n'akazu gateye irangi.

Hari igihe wenda ubaye uruza umuntu cyangwa se umunyamahanga aza akakwishyura amafaranga atari ayo mu gihugu cyawe ugasanga biragucanze kandi utazi ko hari ahantu bahita bayakuvunjara bakaguhereza ayo ukeneye rero uzashake ahantu habugenewe ugende uyatange bayaguhe.

Imodoka ebyiri ziri kubisikana z'umweru, imwe ifite igipine inyuma kiriho urubara rw'ubururu, hakurya hari inzu ndetse iriho ikirango cyanditseho ngo: "teganya". Ubwo nyine ababyumva bahise babyumva; kubera ko bishobora kuba ari inguzanyo cyangwa se kuzigamira umwana wawe ejo hazaza.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo, ubururu, umukara, umweru ndetse n'ibindi, karafunguye karimo umuntu ugakoreramo ariko nubwo ntawe ndi kubona uko biri kose asanzwe ajyamo, hakurya hari ibiti bikeye, igipangu giteye irange ry'umweru, kari mu byatsi.

Hari aho tugomba kujya tuvunjishirizaya amafaranga y'amanyamahanga nk'uko bigaragara, ndetse hano hari ibirango byerekana ko aribyo bakora ariko bakaba banayohereza, nk'uyu musore nibyo yari aje gukora rero ariko ntabwo tubitekereje bitewe n'ahantu ahagaze, ibyo hakorerwa n'ibyo dutekereje ko yaje gukora.

Aho kuvunjishirizaho ni henshi cyane, nkuko bigaragara za mudasobwa ziri hariya nyinshi, ibirango by'imodoka ndetse n'ibara ry'ubururu, haba harimo rero abantu uraza ugatanga ayo ufite bakaguhereza ayo ukeneye.

Aho guhindura amafaranga ho ni henshi cyane ugenda ukayatanga bakaguhereza ayo ushaka bitewe n'ayo ufite, rero tugerageze tumenye aho tubariza ziriya ni mudasobwa zihari bandikamo amakuru y'ibihari.

Intebe nziza cyane z'imisego kandi zikeye. Ameza yazo ari hakurya uri kuyareba, hari utubati tw'umweru ndetse n'utundi babikamo imyenda, amazu arafunze amwe n'amwe, hasi ijerekani ijyanwamo amazi.

Hari abantu habariyeyemeje kubona ngo tuzabakuru utubati twiza intebe zikeye ibitanda kujya mu buryoryo bwo kuryamaho salo zanyu zinase neza cyane ni byiza kuko na wajya u ubagana kugira ngo bagukorere ibyo ushaka ubishyire mu cyumba iwabo cyangwa se mu nzu.

imbaho ni nziza cyane ziradutabara, kuko kuko zikora ibintu byinshi bitandukanye, intebe z'imisego ibindi byinshi, rero tujye tugerageza tubifate neza, kubera ko harimo utubati tubikamo imyenda ,amasahane dushyira mu gikoni ibintu nk'ibyo, nyine tujye dushaka n'ibitanda turaraho, tubabwire babidukorere bibe bisa neza, nkuko rero mubibona harimwo amatara meza cyane acana.

Intebe ni ingenzi cyane kubera ko utazifite, mu nzu yawe baba hasa nabi nk'uko zino zigaragara, ni ifite imyanya itatu abantu bicaramo, ibiri n'umwe. Ameza na yo arasa neza ateye amakaro, rero kugira ibintu byiza biba biteye ubwuzu.

Moto zikunda kuduha iminyenga, hari abantu babyumva gutyo ariko ziranihuta, zinyura n'aho imodoka itabasha kunyura. Rero hano ni ku muhanda hakurya hari matera ahari, abantu baryamaho kugira ngo baruhuke.

Ameza ubona ko akeye ariho ikirahure hejuru aratatse n'intebe esheshatu zo kwicaraho ubwo n'umuryango wose hakurya haraho gukarabira rero hubatse neza aba ni abantu bita ababaji nibo babikora.

Intebe ni ingenzi kuko zituma tuba ahantu hasa neza nk'uko bigaragara, hari ameza y'amabara atandukanye, ubururu, umutuku, n'ibindi byinshi, hakurya hari umusore wishimye ndetse n'imodoka isa umutuku yahahagaze.

Hari utubati tutubereye ko twajya iwawe rwose nawe ukabona uko bisa nk'akanano n'iyi ntebe ushyiramo imitako ibintu bikagenda neza cyane nk'uko abantu iyo bagusuye itavuga ngo bivuguze ibintu by'agaciro.

Intebe nziza cyane ubona ko indende muri zo yicaraho abantu ba tatu izindi ebyiri zikajyaho umwe umwe, hirya hari izindi z'umukara zisa naho ari aho bicara bari kurira, inzu iteye amarangi y'umweru harimo amakaro byiza ko twajya tumenya ibibereye iwawe.

Ameza meza cyane ubonako arayo kuriraho nkurikije ukuntu mbona ajyanishije n'intebe, hagiye harimo utuntu dutatse ibintu bikeye, ni menshi ndetse ahantu ari hateye irangi rijya gusa icyatsi. Ku bantu babababajije nibo bazi agaciro k'ibi ngibi, bakunda kuryamo amafaranga cyane.

Hari abantu tuba dukwiye gusohokanara abakunzi bacu ibintu bikagenda neza nk'uko hano bigaragara rero, harimo udutambaro tw'umutuku, ndetse n'intebe nako niko zisa rwose hakurya hari amamodoka unyujije amaso mu kirahure, ashobora guhita agutwara akakugeza aho ugiye wumva urushye.

Isakaje amategura nkurikije uko mbibona, ubwo ni aya kera ariko arakomera. Yubakishije amatafari ahiye, imodoka ebyiri zihaparitse impande yaho, ibiti bihateye byiza cyane, bikeye ndetse ushobora kuza ukayigurira rwose, amafaranga yawe ubaye uyafite ariko irahenda.

Hari amazu meza aba akeye cyane ubona ko ibintu biba biri kugenda bitera imbere gakegake, hano ni kumuhanda rero harafunguye ndetse iriya yubatse ifite amabati y'umutuku amadirishya ibirahuri ubusitani bwo kureberamo nibindi bitandukanye.

Amahoteri yaziye igihe kubera ko hari igihe dukeneye gusohokana abakunzi bacu tukabura ahantu tubajyana hasa neza. Hano rero hari ibiti, biragaragara hakurya hari amakoma ameze nk'ay'insina, ibyo kunywa biri imbere hariya ziriya ntebe zireba ndetse n'indi ushobora kwicarabo.

Araha cyanebonasohokera n'umukunzi we ibintu bikagenda neza nkuko a kino kirango kibigaragaza biriya nyubako iri kwaka amatara ku madirishya niho turi kubibonera hasi noneho naho haragaragara neza ikigira ngo reroge umukara ariya magambo yanditse'ira ry'umuhondo.

Amahoteri aba akenewe, tuba twajyanamo n'abakunzi bakishima, kandi bakanyurwa, ahantu rero hateyemo utwatsi, ndetse n'aho kogera, intebe zo kwicaraho, ahatwikiriye, ndetse izuba ridashobora kukwica, hitegeye umugi, ushobora no kuba uri kuwureba.

Amahoteri ni ingenzi cyane kuko turahasohokera tukabasha kujya koga iyo biri ngombwa. Rero hano hari amazi ubonako ari mu bururu, hejuru n'ikirere nacyo niko gisa. Udutebe two kuryamaho igihe wumva urushye. Tugerageza rero tuge dutanga ayacu tubashe no kuyarya nyine.

Hari ahantu ubundi uba ukwiye kujyana umukunzi wawe kugira ngo ibintu bigende neza, nkuko bigaragara ibitambaro by'umweru cyangwa se ibindi biri mu mabara atandukanye, hakurya hari ahantu bacuruza ibinyobwa, intebe z'umukara bicazaho rwose ibintu bikagenda neza n'amatara ari kwaka.

Ama hoteli yagiye adushyiriraho uburyo dushobora koga mu mazi ndetse twavamo tugahita twiryamira ahantu tukugama akazuba tukuma, rero hano niho hari ibiti inyuma ushobora kwicara ukajya unabireba.

Ahantu heza cyane ubona ko habereye ko waza kuhasabira ubwishingizi hari intebe ebyiri z'imikara zirebana, hari umutako uripande yabo ugiye urimo utuntu. Abasore n'inkumi bicaye bagutegereje kugira ngo ubabagezeho ibyo ukeneye babigukemurire.

Ahatangirwa ubwishingizi habaye benshi kubera ko hano hari intebe z'imikara ebyiri wicaraho ugasobanura ibibazo byawe, hari ikirahuri kigutandukanya wowe waje gusaba ubufasha n'uri kubuguhereza, inyuma hari imitako myiza cyane ivanzemo uturongo ni utw'umweru, amakaro ashashe hasi.

Ahatangirwa ubwishingizi ho ni henshi cyane kubera ko biragaragara uyu mubyeyi yambaye neza imyenda iyo uje arakwakira, inyuma ye hari indabo amagambo ahanditse aranga ibyo basaba, rero tugerageze natwe tubikore hakiri kare.

Ubwishingizi ni bwiza cyane kuko buratugoboka tukavuza abana bacu igihe abarwaye, hano rero hari ibyuma bizitiye hano hantu, uturabo duteye kumpande ibirango biriho imodoka ndetse iri kugaragara amatara n'amapine.

Ubwishingizi ni ingenzi cyane kubera ko budufasha kandi ntaho batageze bahageza amashami yabo. hano ni muri rusizi niki kirango kuko kibigaragaza mw'ibara ry'ubururu n' amagambo yadikishije umweru ndetse n'umuhondo ubonako rero ushobora kuza nawe ugatanga ikibazo cyawe bakakugoboka.

Ubwishingizi ni ingenzi kubera ko tugomba kubufatira abana bacu igihe runaka ndetse bikanadufasha cyane rero hano hari inzu iriho ibirango by'umutuku, umweru n'umukara nyine ukubibona hariho amagambo yanditse n'umusore uhagaze ategereje kwinjira.

Inguzanyo ni ikintu cyiza cyane ariko nanone tujye tumenya ko tugomba kurya ibyo tuzishyura nushake kwigira umwambuzi ntabwo byagukundiradedo iyo uyifitehoko kwagura imishinga yawe ndetse ukagura ikibanza nk'uko uyu mubyeyi nawe arimo aragerageza kubajyareba amakuru akubiyemo.

Ideni ni ryiza kuko ryakugoka ahantu biri ngombwa, ariko nanone nturifate utazi ko utazaryishyura, ni byiza cyane birafasha. Rero uyu mwari ateruye ikintu ntarabasha kumenya ibyo ari byo, arimo araseka arishimye, urabona ko yabashije kugera ku nzozi ze.

Ni byiza ko twajya tugerageza gufata inguzanyo kubera ko aba ari ibintu by'agaciro, uyu mwari rero yambaye ibinigi mu ijosi cyangwa se imiringa, imisatsi ye ntago iboshye nka bimwe byubungubu, nk'uko hano kuri iki kirango bari kuvuga rero ngo tugere ku nzozi zacu n'inguzanyo kugira ngo tubashe kubaka ejo hacu.

Amadeni ntabwo ari meza ashobora gutuma wenda duhindura amayira, ariko iryo muri banki na ryo ririzewe, kubera nta hantu uba uhurira na bo, wenda kereka igihe ushatse kubambura bakajya baza kugusura, ariko nawe ntabwo wajya kurifata utazi ko uzaryishyura, ubaye unabikoze wariguramo ikibanza, uri kubaka inzu, byagufasha.

Tugerageza dufate inguzanyo ku bintu byinshi cyane kugira ngo tubashe kuzamura ibyo dukora ,cyangwa niyo dushaka kugura ibibanza twubaka amazu tugomba kuyigana rero bakadufasha iyi ni banki igufasha kuba yabiguhereza ibyo ukeneye byose nkuko uyu mwari arimo araseka yishimye.

Iyo ugiye gufata ideni, hari igihe bagusaba ibintu bitandukanye amazina yawe, icyo ukora, aho uturuka, papa wawe na mama wawe, umwishingizi wawe cyangwa se undi muntu ushobora kuza kuzungura igihe udahari wowe, rero ibyo nabyo ni ngombwa jya ubitanga bizakorohereza ubuzima.

Inguzanyo ni ingenzi kubera ko ushobora kuba wakwiyubakira igihugu cyangwa se nawe ukubaka umurwa, ubwo cyangwa umuturirwa nyine biterwa n'ibyo ushaka, inzu ndende nziza kandi ku mafaranga nk'aya ngaya bamuhaye, ushobora kugenda mukumvikana akayiguha nta ngwate cyangwa se anayitanze.

Ideni ni ryiza cyane bishobora gutuma ugura ikibanza ukakabasha kuba wacyubaka, ariko na none ukirinda kuba wagerageza kuryaka nta kazi ufite ukazaryishyura, cyangwa ikindi kintu kizakugoboka mu gihe runaka.

Umwari wambaye umupira w'umweru, arimo arasobanurira uyu musaza wiyambariye agashati n'agapantaro k'ubururu, uko bikorwa hano hari imeza iriho igitambaro cy'umuhondo n'abandi babyeyi bari babyitabiriye, ubona ko ari ibintu bitangaje.

Isoko tujya tubahahira tubateze imbere nabo babashe kugira ibyo babona cyangwa se natwe tugire ibyo duhaha turye, nk'uko bigaragara, hatimo, imyanya, imiteja, intoryo, ibitunguru bito, ngo dusahane indobo, amabasi byose ushobora kuza rero bitewe n'icyo ushaka bakakiguha.

Mu isoko haba harimo ibintu byinshi bitandukanye, aya ni amashu, inyanya, ndetse n'amadegede kubayazi, hakurya hari uducupa tw'amavuta tumanitse, amakaroni, ibirungo, ndetse n'umu meri wicaye nyine utegereje ngo nuza akubaze icyo ushaka, akiguhereze umwishyure, utahe.

Mu isoko haba harimo ibintu byinshi bitandukanye, uyu musore rero yicaye ku gasongabugari, inyuma ye hari agatebe ka kera abantu bicaragaho bari gushinga imiheha mu bibindi ngo binywere ibigage ndetse n'inkoni z'abasaza bifashisha. Ibi rero bisa naho bacuruza ibintu bitandukanye, ibijyanye n'umuco wa gakondo.

Aho guhahiraho ni henshi, ibitenge cyangwa se imyambaro y'abadamu, hano rero hari ibitandukanye, bigiye birimo amabara avanze ,umutuku, umukara, umuhondo, icyatsi ndetse n'imipira igihe yanditseho Rwanda y'umukara.

Inzu ndende ubona ko ifite ibirahure, uyuriyeho wanyerera, ifite amarangi y'umutuku amagambo yanditseho hejuru, ndetse na harimo ababyeyi, uri kurebera mu madirishya wahita ubabona.

Amafi n'ingenzi kuko ari bwoko bwinshi, har'afite amahwa natayagira rero araryoha aba yoroshye nkuko uno mubyeyi arimo arayatunganya ayabaga agakuramo ibintu aba yarariye, hakurya haricyambu ndetse ubona ko hariho abasore baba bari aho ngaho ngo bayarobe.

Mu isoko haba harimo ibintu bitandukanye, nk'uko bigaragara hano harimo ababyeyi bari gucuruza imineke ndetse amaronji, amatunda, inanasi, udufuka tumanitse hariya, iyo uje uhita unatwaramo rwose bikagenda neza, zirafasha iyo uzirengeje ku biryo biba akarusho.

Kujya ku isoko ni byiza cyane kuko uhaha ibintu bifite intungamubiri, inyanya nk'izi ngizi ubona zifunze zitukuza isosi ikaba yaryoha cyane wakoza nk'ubukari bukazamuka busa neza, hari karoti, hari ibiteja, hari n'amafi, urabona ko ari ibintu biryoshye.

Ni isoko ni abantu ushobora kujya ukabonamo ibiribwa bitandukanye kandi bikugirira akamaro. Hano rero harimo abantu bari kugenda batambuka hirya urahabona amabasi, abagore, abana, abagabo, imyembe imineke, insenda, ibitunda, amaronji n'ibindi.

Isoko haberamo ibintu byinshi bitandukanye hano rero hari umusore wambaye imyenda yi imikara ndetse n'agapantaro keza gaciyeho uturongo tw'umweru umubyeyi wambaye uy'umutuku bacuza ibintu bitandukanye n' ibikapu ndetse n'imitako ushobora kumanika mu nzu.

Mu isoko haba harimo ababyeyi baba baje gushaka ubuzima ndetse no gushakira abana babo nk'uko natwe twarezwe ba mama bacu batugaburira, rero hano kuza guhaha haba harimo inyanya, intoryi, nk'imiteja ibitunguru, karoti, n'ibindi.

Imodoka ubana ko iciye bugufi, nyumayo hari iyindi, abanyonzi, abamotari bateje akajagari, hakurya hari amazu y'ubucuruzi, ubona ko ari meza cyane, ibiti impande yayo hari izindi zifite amabati y'ubururu bisa naho ari isoko.

Kugerageza gushaka ikintu wakora ni byiza cyane kuru bishaho gutuma udasabiriza cyangwanga umwana wawe abure ayo kwishyurirwa ishuri ayo kwivuza ndetse nayo kugura imyenda oyo rero hari ibintu byinshi wakora gucuruza amayinite niibintu bishobora kukugaburira nkuko uyu yabigerageje kandi bano bambaye imyenda y'imkara bari kuza kumuhahira.

Umutaka usa umuhondo urabatwikiriye kugira ngo imvura itabanyagira cyangwa se akazuba ariko haje nyinshi babyanura, hari imipira ndetse n'ibindi bintu bitandukanye bari gucuruza bivuze ngo rero ni ibijyanye n'ikoranabuhanga uko rigenda rihindagurika.

Abasore abona ko baje barangariye bitandukanye muri aka kazu k'umuhondo, umwe afasheho ndetse abandi bambaye imipira y'ubururu, umutuku hakurya har'akandi kazu rero bacururizamo ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga harimo za telefone n'amaradiyo.

Umubyeyi yambaye umwenda w'akazi ndetse usa n'umupira yambaye byose n'imihondo, inyuma ye hari ibintu bitandukanye, intebe y'icyatsi ndetse n'ibishyimbo, udusafuriya, amakarito, arimo aracuruza rero ibyo kurya.

Umubyeyi wambaye ingofero ijya gusa n'umwenda yambaye hasi umupira w'umuhondo, hejuru ku ikorana n'ubururu ari kumwe n'undi musore arimo aramwereka ukuntu bakora ibintu bitandukanye bifashishije ikoranabuhanga. Urugero nko kuba bakishyura ibicuruzwa cyangwa se ibiribwa.

Kuba wakohereza amafaranga ni byiza cyane gerageza nk'uko uyu mwari yavuze ngo nta kandi kazi ndahabona reka nshake make nshore kandi biramuhira, ubona ko yibereye mu kazu ke kari mu ibara ry'umuhondo amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku ndetse n'umukara inyuma ye hari ibindi byinshi cyane ubona bishobora gusobanura ibintu akora.

Iyo tugize ibibazo ni ngombwatwirukangira abantu babizi kugira ngo ba bidukemurire hano mwa wambaye umupira w'umwerukora ry'umuhondo ndetse n'igitambaro kinini cyane abandi bafite amakaye n'amakaramu bagacupakari imbere ye baje gusobanuza ibi bintu kugira ngo ibyo batumva bikemuke.

Aga telefoni ni gatoya ariko urabona ko uyu muntu arimo arishyura yifashishije ikoranabuhanga, yabanje guhitamo ibindi byose ageze aho bamumbwira ngo shyiramo amafaranga agiye kwishyura bitewe n'ikintu aguze kubera kariya gapapuro k'ibara ry'umuhondo kari hariya kanditseho n'amazina y'umuntu.

Agapapuro gasa umuhondo, gafite ibara ry'ubururu n'umweru, hariho imyirondoro y'umuntu runaka. Aka rero gahabwa abacuruzi cyangwa se abafite ibindi bintu bakora bijyanye no kwishyurwa bakoresheje ikoranabuhanga. Iyi mibare rero ubona zeru enye, umunani rimwe, ni yo ushyiramo hanyuma ukemeza amafaranga ugiye kumwishyura, ugahita wohereza, ibintu bikagenda neza.

Akazu kari mu ibara ry'umutuku, hariho ikirango kiriho umwari wishimye, ndetse n'andi magambo yandikishije umweru, hirya hari ibyatsi n'abantu bahicaye, ibiti byiza cyane, igicu na cyo urabona ko nta mvura irimo kirakeye.

Akazu keza kari mu ibara ry'umuhondo kariho amagambo yanditse mu ry'umukara, umweru ndetse n'ubururu, haranasakaye nta muntu uhagaze hanze izuba ryakica, hari umwari rero wambaye akajipo arimo arasaba ubufasha runaka kugira ngo asobanurirwe ibyo atumva cyangwa se abashe kuba yagura amayinite.

Abari babiri umwe yambaye umupira w'umutuku undi ni uw'icyatsi, bafite impano bagiye guhereza umuntu, bigaragara ko babagabanyirije kuri mirongo itanu ku ijana, rero baziguze bifashishije ikoranabuhanga, zikaba zari zibagezeho ari byo bari bishimiye.

Umumotari yambaye umwenda w'akazi ndetse n'ingofero n'ibindi byago byakoze impanuka afite agasanduku ariko kugahereza umusore akuye kuri iriya moto ihagaze aho ngaho, bisa nkaho yaraguriye ikintu kuri murandasi bakimugejejeho.

Umusore wambaye ingofero imurinda igihe akoze impanuka, umupira w'umuhondo. Yicaye kuri moto atwaye, igikapu kirimo ibintu abantu bari batumije bibereye mu rugo. Impande ye hari ibiti arimo aragenda mu muhanda, ubona ko ari ibintu bikeye cyane.

Hari imbuga nkoranyambaga cyangwa se kuri murandasi dushobora kuguraho ibintu bitandukanye: inkweto, imyenda irimo imipira, amapantaro, amakabutura n'iy'imbere ndetse igahita bikugeraho ukibikandaho gusa ngo ubyishyure.

Kuri murandasi ubu ngubu usigagaye wahacuza imyenda yawe inkweto n'ibindi cyangwa se ukaba wabihaguriraho, waba ushonje ugatumiza ibiryo ukabitumizata bikugeraho mu kanya gato n'kuko kino kirango kibigaragaza hariho imyirondoro ugiye ukabasura nawe wareba ibyo batanga.

Kugura imyenda ndetse ukamenya n'aho uyigurira ni byiza cyane. Hano hejuru rero duhereye ku gice cya mbere ,harimo ikintu cyambaye agakanzu k'ubururu ndetse, n'ikindi cyambaye agashati n'agapantaro, ku gice cya kabiri hariho imodoka y'ubururu ndetse n'undi muntu wambaye agakanzu k'umweru, hasi rero harimo aho ugenda uhitamo,..

Ikoranabuhanga riri kugenda ritugira abaswa ndetse n'abantu batagira ubwenge, aho buri kimwe dushaka ngo rikidukore. Mbere washakaga gukora urugendo ukajya guhaha ukagorora n'amaguru n'imitsi yawe ikarambuka ariko ubu wapi ahubwo uhita utumizaho ibintu bikagusanga iwawe nk'uko hano hari inyanya, imineke, amashu n'ibindi.

Hari amazu aba yubatse neza afite ibikoni bikeya kandi binafite isuku, nk'ibi ngibi rero urabona ko araho gutekera, aho gushyira amasahani n'ibiyiko, utubati tubikamo dusa umweru ndetse urabona ko ari ibintu bishobora kukugirira akamaro ubaye uguze inzu nk'iyi ngiyi ibifite.

Amakaro meza cyane abona ko akeye y'umweru, ndetse avanzemo n'akabara k'umukara, inkingi ziteye irangi ry'icyatsi, amadirishya afite ibirahure, aho gucomeka telefone zawe, ndetse n'inzugi z'ibibaho. Ushobora kwinjiramo rero kuri ino nzu ukayirebera cyangwa ukayigura, kuri miliyoni ijana na mirongo ine zawe.

Hari ahantu haba hari amazu cyane akeye, nk'uko bigaragara hano ni mu gikoni. Harimo robine zizana amazi ukaba wahogereza amasahani. Hateyemo uturabo ndetse hari n'amashyiga yo gutekeraho, tugerageze rero niba dufite amafaranga tuhigurire.

Hari inzu ushobora kugenda ukubaka nawe ku mafaranga make ufite, nk'uko bigaragara hano uyu musore arimo aragenda ayisakara yambaye umupira w'umutuku, ndetse hejuru hari n'undi uri kuyisakara, bigaragare ko nyine bari kukubwira ngo nawe ku bihumbi magana inani byawe wayiyubakira.

Hari inzu nziza cyane zaba zikeye kandi ubona ko amafaranga yawe uyashoyemo utaba uhombye, hano rero ni ku mabuye, hakurya hari akarangi k'umuhondo harafunguye ushobora kuza ugahita uyiberamo, ndetse n'ubururu buteye hejuru ubonana ko ari ibintu bisa neza, ku bihimbi magana ane bya buri kwezi wayibona, iherereye kicukiro.

Umuntu ufite amafaranga makeya rwose ahwanye n'ubushobozi bwe yajya yigurira inzu bitewe n'ahari ari ho nyine cyangwa se bitewe n'uko ahagaze, hano rero irahari ifite amadirishya n'ibirahure ndetse hateye utwatsi miliyoni cumi na zirindwi zawe wayigura.

Inzu zo gukodesha cyangwa se kubamo ni nyinshi cyane kandi zabaye nziza nk'uko bigaragara hano hari ahantu ushobora gushyira imodoka zirenze imwe ubaye uyifite, indabo zihari ndetse irageretse rimwe, haranafunguye bivuze ngo wahita utugenda ukayibamo rwose ubaye ubishaka.

Amazu yo gukodesha yo ni menshi cyane nkuko tubizi, aya ngaya rero arasa neza, hari inzugi zikeye ziteye akarange, reba mo imbere ndetse wanayigura ubaye ufite amafaranga ariko hari aho gushyira imodoka.

Tujye tugerageza natwe tumenye aho tubariza ibintu, ubu ngubu hari abantu usanga bari kugenda batembera ahantu ngo bagiye gushaka ibibanza, bagura amazu, amamodoka, n'inkweto zigahengama kandi hari aho ushobora kugana rwose bagahita babikurangira utavuye iwawe baba barabishatse kera.

Inzu nziza cyane ubona ko icyeye iteye amarangi y'umutuku, ifite utuntu dutatse twiza harimo ubusitani buteyemwo utwatsi ndetse hari inzugi zikeye ubona ko rero ikodeshwa, iherereye Kimironko ifite ibyumba bibiri ubwogero bubiri, ibihumbi magana tatu mirongo itanu bya buri kwezi.

Ubundi iyo udafite ubushobozi bwo kuba wagura inzu, urakodesha kugira ngo wegere akazi nkuko bisanzwe abantu barabizi, iyi rero ifite inkingi nziza cyane, irakeye, ifite amakaro, amatara ari kwaka, iherereye hano rero ku Gisozi, ifite ibyumba bitanu.

Inzu nziza cyane ubonako ikoresheje amatafari hasi cyangwa se amabuye yabugenewe kugira imodoka bariho zihagarararyango yarafunguye giteye akarange kuumweru ibirahuri n'amadirishya ndetse unako bukeye wazakicara ahigeye igicura cyo akibona rwose ukuntu kimeze.

Umwari wambaye imyenda y'imikara yajyanishije rwose, ari ahantu imbere y'igisa umweru, hakurya insakazamashusho n'inzitiramibu, iri hafi n'ifoto y'umukuru w'igihugu Paul Kagame.

Ni isoko bacuruzamo inkweto, imyenda, amapantaro, amakabutura ndetse n'imyenda y'imbere nyine ubwo rero uy'umugore yari yaje kwihahira, afite agasakoshi ndetse n'undi bari kumwe barimo baragirana inama y'ibyo bashobora gucyura.

Amakaro meza cyane y'umukara ndetse n'umweru, hakurya hari abantu bafite abana babo ndetse no hejuru urabona ko bahagenda bigaragara ko ari ahantu bagurira nk'imyenda runaka cyangwa se ibindi biribwa bicuruzwa, ushobora kuza ukanaharangurira.

Umwari mwiza cyane ufite imisatsi iboshye, ari ku mashini runaka niba ari gupima ibiro simbizi kuko ndabona yateretseho inanasi, impande ye hari agakarita ashyiramo ibintu k'umutuku, hakurya hari aho bishyurira, rero aha ngaha uraza ukahahira ibintu bitandukanye bigushimisha, cyangwa se ibikunyura.

Ubwisungane mu kwivuza ni ingenzi nk'uko tubizi twese. Rero aya ni amakarita batangaga kugira ngo abantu bagiye kwa muganga bayerekane. Habaga hariho ifoto ya nyiri ibyangombwa, amazina ye, ay'umuryango we, aya papa we na mama we ndetse n'imyaka ye.

Ahantu heza cyane ku muhanda, hahagaze umwari wambaye imyenda ijya gusa umukara uhetse igikapu, hakurya hari umucungamutekano, uhari nawe wambaye impuzangano ze, ndetse hari n'abandi bicaye bisa naho bari baje kubaza amakuru runaka y'ibiri kubera hano.

Ubwisungane mu kwivuza ni ingenzi, aho hano bafite agakarita k'umuhondo kariho imyirondoro y'umuntu ifoto, amazina ye, imyaka ye, ahavuka, papa we na mama we akakajyana kwa muganga bakamuvura batitaye ku cyo arwaye ngo bamuce amafaranga menshi ahubwo aragabanyirizwa.

Umusore yambaye umupira w'ubururu ndetse arimo arabwira abantu, inyuma ye n'imbere barahari, ahagaze mu kibuga ndetse bishoboka ko arikubaganiriza ku bintu bijyanye n'ubwishingizi kugira ngo bazabashe kuba bajya bibikira amafaranga ubwabo ku giti cyabo, ejo n'ejo bundi bakaba bayakenera.

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuza ni iyi ngiyi, ku bantu batari bayazi. Aha rero irasa umuhondo. Hariho umwana. Ifoto ye, igihe yavukiye, papa we na mama we. Ndetse n'aho atuye. Turagenda tukayatanga kwa muganga, bakubaza nimero z'umukuru w'umuryango, irangamuntu ye, bahita bakugoboka cyangwa bakaguha imiti ukajya kunywa.

Kwishyura umurimo kwivuza ni byiza tujye tubigerageza tubikorere ku gihe kuko birafasha ndetse biranatabara igihe runaka urwaye kandi nta bushobozi ufite rero hano amashami abishinzwe kubigenzura hano rero hari ababyeyi mwiteruye abana abandi bari baje mu bintu runaka.

Mu muhanda ni heza cyane kuko haba hakeye hari isuku. n'amodoka menshi ari kuzamuka, yaba atwara mu buryo bwa rusange, ndetse n'andi y'abantu ku giti cyabo. Hakurya hari inyubako nziza cyane ndende iriho ibirahure bibonerana, itewe n'akarangi kajya gusa umweru.

Tugerageze tujye twizigama muri ejo heza n'ubwiteganyirize kuko nshobora kutugoboka tukazishyurira amashuri abana bacu igihe dushaje tutagikora nabo tukabavuza cyangwa tukivuza ku giti cyacu.

Ubwisungane mu kwivuza ni ingenzi aho buri muntu wese aba agomba kubutanga. Uyu mubyeyi rero aragateruye ni agarikarita kaba gasa icyatsi kandi kandikishijeho amagambo y'umukara, haba hariho ifoto y'uwo muntu ndetse imyirondoro yiwe, irimo amazina, aho yavukiye, imyaka afite n'ibindi.

Umwari wambaye neza agakabutura ke rwose, agakweto k'umweru afite indabo inyuma, arimo arareba ibintu bijyanye n'imboga kugira ngo abashe kubijyana nyine, yitekere ibiryo bye biryoshye, hirya nkurikije uko ndi kubibona ziriya ni karoti.

Abandi dukomeza cyane nuko harimo mwari hakurya afite igikapu arimo aragenda ndetse n'abandi bafitetwomotuku bashima akantu arabakubitamo rwose ahita agenda aho bamwakiriye yishyure ubundi yitahire.

Imbuto n'ingenzi cyane ni nziza kandi ku bantu bakuru ndetse n'abana, hano hari inanasi, imineke, ibishyimbo niba ndi kureba neza by'umutuku n'ibindi bivanze, ndetse hakurya urahabona utuntu turimo ibara ry'umuhondo, amatara ari kwaka bisa n'aho ari mu iduka bacuruza ibiryo bitandukanye.

Amaduka yabugenewe kugira ngo tujye duhahiramo ibintu bitandukanye, hano rero biri ku murongo birasa neza nkuko bigaragara amatara menshi ndetse n'indobo iri hakurya hariya. Uraza bakaguha akagare usunika gafite udupine ukagenda utoramo ibyo ukeneye, izi ni nido amata aba akoze mu ifu.

Umwari ari mwiza cyane ubona ko yambaye agasenge yarengejeho umupira n'apantaro k'ubururu, imbere ye hari ibintu byinshi cyane yari yaje guhaha afite akagare ari gusunika. Inyuma ye hari n'abandi benshi baba baje nyine kugira ngo bagire ibyo bacyura mu rugo.

Hari amaduka yasobanukiwe ibyo abantu baba bashaka, ashyiraho utugare ugenda utembereza hanyuma ibyo uhashye ukagenda ubinagamo, hano rero harimo ibirungo by'ibiryo birimo ibitunguru, pavuro, ni ibyo bipfuyinyitse mu mashashi nyine ntabasha kumenya nanjye.

Ibyo kurya byo ni byinshi byaranateye usigaye ubisanga mu mashashi, nkuko hano bigaragara, bipanze neza ku murongo, reba hejuru noneho hari utubara tugiye dutandukanye, umuhondo, ubururu, umweru, hasi ho sinakubwira, harasa neza.

Imodoka ni nyinshi cyane hano haba harimo imbuto zitandukanye karoti, imineke ndetse n'ibindi wabifunze mu mashusho ushobora kubika cyangwa se ugacyura iwawe rero harasa neza ibitonnze umurongo ntabwo byagucanga cyangwa ngo uyobe ushake ibidashakika.

Umwari cyangwa se umubyeyi, imisatsi ye irarambuye afite akantu mu ntoki karimo imboga, arimo arareba ibindi kugira ngo abitware birimo pavuro n'ibindi biri mu mashashi hasi cyane tutabasha kumenya ibyo ari byo. Rero bisa n'aho yari yaje kwigurira byo guteka.

Hari amaduka aba akomakomeye tuba twajya guhaheramo, tukabonamo ibintu byose dushaka, ibiryo bifunze mu mashashi cyangwa se ibindi bitandukanye birimo fanta, amazi, ji ndetse n'inyama, rero tujye tuyoboka inzirz nk'iyo ngiyo, kuko usanga bihedutse kurusha ahandi.

Utugare basunika dufite amapine ni twiza cyane kuko iyo ugiye nkmodokakan runaka ukadusangamo ugenda uhitamo ibintu byinshi cyane ukeneye yaba amavuta, ibinyobwa n'ibindi. Uraza rero ukapakira hanyuma ukajyana akakoriro ukishyu ugashyira mu kinyabizig ugifite gifite bakakubarira ukitahira.